Umubyeyi ukuze wambaye rinete ufite igitambaro mu mutwe witeye n'ikindi uri kumwe n'abana bato bishimye cyane ndetse barangamiye kureba iyo ari kureba.

Ikigo gifasha abana, cyane cyane cyifuza kugera kuri bose, gifite ikirangantego harimo umubyeyi uteruye umwana ndetse n'amagambo yanditse mu mpine, unicef.

Umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga barimo bamupima umuriro ndetse bazirika bimwe mu bikoresho bifashisha ku kaboko ke.

Umwana muto urimo urakaraba amazi meza n'isabune yita ku mibereho myiza, uri kubona yuko ari ahantu hasa n'icyaro.

Abaturage bafite indobo mu ntoki ndetse bari kuvoma ku mugezi uriho icyapa cyanditseho ati yunisefu, bigaragara ko bishimiye kubona amazi meza.

Kwita ku mikurire y'umwana ndetse cyane cyane mu gihe ari mutoya ni ingenzi cyane umujyana kwa muganga, umuvuza aho mu kiganga, umwana imiti ndetse n'umubyeyi akaba amutereye nk'ikimenyetso cy'urukundo

Abaturage bari mu nzego zitandukanye bitabiriye inama yatumijweho n'abayobozi bari munsi y'idaraporo y'igihugu cy'u Rwanda.

Abana bishimye bambaye impuzankano, umwe aranywa amazi n'abandi bishimiye kuba bari kumwe n'uwo nguwo uri kunywa amazi.

Umwana wishimye urimo gukaraba akoresheje indobo yabugenewe, icometseho akarobine kifashishwa kugira ngo amazi aze.

Inama igizwe n'abantu batanu, abagabo babiri n'abagore babiri bafite amazi, hagati muri bo bagaragaza ikimenyetso cyo kwita ku mibereho yabo ya buri munsi bakoresha amazi.

Muganga uvura abaturage b'abadamu cyane cyane harimo abafata ibipimo ubona y'uko ari abaturage bo mu cyaro.

Umuturage wicaye ndetse n'abandi bahagaze, bambaye utujiri, abambaye imyenda y'umweru, ndetse bakaba hari n'inzego zishinzwe umutekano.

mental health service in Rwanda nk'ikigo gishinzwe kwita ku mibereho myiza cyane cyane kita ku burwayi bwo mu mutwe.

Abaturage bishimye ndetse banezerewe, bigaragaza y'uko ari abo muri kaminuza y'u Rwanda Okisifodi ,ndetse bihera bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na makumyabiri.

Abaturage harimo abakuze, abajene bateraniye hamwe munsi y'icyapa kiriho ikiranga u Rwanda, bicaye hamwe kumurongo.

Umusaza umaze kuvamo amenyo yo hasi no hejuru wishimye cyane; wambaye impuzankano n'undi umuri inyuma bigaragaza yuko akorera ikigo runaka.

Umugabo ufite urudodo arimo aratunganya amenyo ye ndetse akaba yishimye cyane bigaragaza yuko yishimiye igikorwa arimo.

Abaganga bita ku bana ndetse bose bafatanyirije hamwe bicaye hamwe. Umuganga umwe yambaye agakabutura ari umukobwa ndetse n'umusore wambaye agapfukamawa.

Ibirahure bibiri biteretse ku meza ndetse n'umusaza ndetse n'umusore bishimiye kuba bari hamwe, bari gusoma, umusaza yambaye amataratara.

Umujene ukiri muto cyane w'umwarikazi, urimo urita ku musaza cyane, kugira ngo abashe kugarura ibyishimo muri we, ndetse no kumwitaho muri ubu buzima.

Umusaza usheshakanguhe ufite ubwanwa bwabaye umweru uri kumwe na muganga, urimo umugendesha mu rwego rwo kumufasha kugira ngo atagwa.

Umukobwa ukiri muto ufite imisatsi igwa inyuma, arimo arita ku mubyeyi ukuze, amukoresha imikino ngororamubiri mu rwego rwo kugorora umubiri we ndetse no kwita ku magara ye.

Umukecuru wishimye, bigaragaza ko ari mu gikorwa cyo kunanura imihore, ndetse n'inyuma ye hari abazungu bishimiye kuba bari kumwe na we.

Umwana muto uri kumwe na papa we, barimo bari mu mikino ngororamubiri, ariko kubona yuko umusaza yishimiye kuba ari kumwe n'umwana muto cyane.

Abaturage bitabiriye ikirori n'ikirori cyangwa se bari mu bukwe bigaragaza yuko ari abageze mu za bukuru w'abakecuru ababyeyi rwose bateze ibitambaro inyuma, hari intebe nziza cyane z'umweru.

Abakecuru bakuze bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'inyuma hari umujene ndetse no ku mpande hariho umugore usa nkaho akiri mutoya cyane.

Ifoto ya dogiteri Noweri Gahamanyi, ya kwerekana uku kwita ku mibereho myiza y'abaturage.

Umusaza ufite ibizazane ku jisho rimwe, bigaragara ko ageze mu za bukuru, ahari yahuye n'impanuka cyangwa se ryapfuye akiri muto.

Inzu ikaba n'icyumba cyakirirwamo abarwayi, aho muganga ari kugenda aganiriza abari ku murongo baje kwivuza.

Icyumba cy'abarwayi kirimo inzitiramibu, kirimo ibitanda ndetse na buri kimwe cyose gikenerwa n'umurwayi kugira ngo abashe kugira amagara mazima; ndetse abashe kubungwabungwa mu buryo bworoshye.

Umugangakazi arimo agenda mu cyumba cy'abarwayi, icyumba kirimo imashini, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako irimo iri kugendagendwamo n'abaturage babiri, akaba ari inyubako igeretse kabiri cyangwa se rimwe ni.

Abaganga batandukanye bari ku bitaro bya Rwamagana, harimo abazungu, harimo abirabura harimo abakobwa, harimo abasore bagiye batandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubugenzuzi bw'umubiri ndetse no kuvura indwara zitandukanye, abaturage baje kwivuza inzu igeretse inshuro ebyiri.

Inzu nziza irimo abaturage nyuma yaho ndetse no mu kirahure hagaragaramo yuko harimo abaganga mo imbere.

Umwana wishimiye ndetse na muganga uri kumwitaho, muganga akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'umusore wicaye aho hafi, wazanye uwo mwana kwa muganga.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi cyane cyane mu kwita kumenya uko umubiri w'umuntu uhagaze, harimo ibikoresho bitandukanye, haba ibyifashishwa mu kumenya nyine uko umuntu ahagaze mu buryo bugiye butandukanye.

Icyapa kigaragaza Huye nk'akarere ndetse cyariho ikiranga urwa u Rwanda ndetse na polisi.

Iyo uri mu mikino by'umwihariko nk'imikino isaba imbaraga, hakenera kuba hari umuntu ufasha abakomeretse cyangwa se abakeneye ubufasha runaka kugira ngo babashe kongera gusana ahashobora kuba hakomeretse.

Aaaa! Umusore ugukora siporo, aa uri kugendera hejuru y'imbuto, aa bigaragaza neza yuko ibi imbuto, imboga bifasha umuntu mu kugira imikaya mizima n'imibiri n'umubiri ubangutse.

Aha muganga arimo agorora imitsi y'umurwayi wamugannye ndetse yita ku ngingo ze.

Umusore ufatishije ikiganza ku kuboko kwe ufiteho igitambaro, bigaragara yuko hatewe urushinge kuri uko kuboko

Siporo ni ingenzi mu mimibereho ya muntu harimo abari mu myitozo abaturage imbaga nyamwinshi y'abafite imipaka baje gushungera abo bari mu masiporo.

Imiti ifasha mu gukora imiti, bkugorora ingingo ndetse irafunze mu bikoresho bigiye byabugenewe.

Umuganga arimo asuzuma umwana mu kanwa, ababyeyi b'umwana cyangwa se abandi bafatanyabikorwa na muganga barimo bareba byibuze icyo bafasha uyu mwana.

Ukuguru kuri hasi ku mbengeye, kuriho amabara atandukanye bigaragaza yuko ari umuntu wakorewe isuzumwa,

Umusore wambaye agakote, bigaragara yuko ari muri siporo, ari kunywa amazi menshi, ndetse akaba afite akaboko karambitse ku kibero cye, n'akandi gafashe icupa ry'amazi.

Umwana w'umukobwa uteye igitambaro uri kunywa amazi bigaragara yuko yambaye nk'umuntu uvuye mu mikino ngororamubiri, kuko unywa amazi aba avuye...

Umukobwa wambaye impeta ndetse n'agashinete ufite akaboko ke kateweho urushinge mu rwego rwo gukingirwa cyangwa se kuvurwa indwara runaka.

Umusore wambaye isengere ndetse n'akantu ku kaboko, uri kunywa amazi, bigaragara yuko avuye mu mikino ngororamubiri.

Umusore urambuye ukuboko ufashe ku nkweto ku gasongero ikiganza kindi gifashe hasi uri kurambura ukuguru mu rwego rwo kugira ngo amagufwa abashe kuba yagororoka.

Umwana ufashwe n'umubyeyi wambaye agapfukamunwa, ndetse uri gutungwaho ikintu na muganga.

Udukarito ndetse n'uducupa turimbo imiti ivura. Ikomoka ku bimera cyane cyane hakaba, higanjemo n'ikomoka ku gikakarubamba.

uUbunyobwa igitoki ndetse n'ibindi bimera byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire imibereho myiza kandi agire amagara mazima.

Ubuki nk'ikintu gikoreshwa cyane mu mibereho y'abaturage ya buri munsi kuko bufite n'akamaro cyane bukora n'umuti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye birimo ubwoko bumwe n'ubuki bifasha abantu kugira amagara mazima.

Amacupa agera muri abiri ari ku meza arimo imiti ikomoka ku byatsi, ndetse n'umuturage wicaye ku ntebe uri kureba agenzura iyo miti.

Umuti ukoreshwa n'abarwayi ndetse utangwa n' abaganga, mu gihe bagusanganye indwara ivurwa n'uyu muti.

Icupa ririmo imiti gakondo ikomoka ku bimera, na yo iri mu yifashishwa mu buganga mu kuvura abantu.

Igikakarubamba gikataguwemo ndetse n'agacupa gateretse ku ruhande rwacyo.

Igiti kitari inganzamarumbo ariko nacyo gifite amashami ariko atatanye cyane kigaragaza yuko hariho umuyaga ndetse kikaba ku ruhande rwacyo hariho ibindi biti bitoya cyane bimeze nk'igihuru.

Amacupa arimo imiti ikomoka ku bimera, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse ikanifashishwa mu bindi bigiye bitandukanye.

Amacupa arimo ubwoko bw'imiti itandukanye n'amacupa bwayatandukanye byariho ibishushanyo bigaragaza aho ibimera bigaragaza yuko ari imiti ikomoka ku bimera.